Aha ni muri laboratwari ahafatirwa amaraso y'abarwayi barwaye bashakamo ibisubizo by'uburwayi barwaye.

Ku ishuri aho abana bari kwigishwa inyigisho zitandukanye n'abarezi babo, aho bagaragaza bimwe byo bize, birimo gushushanya ibishushanyo bitandukanye.

Abanyeshuri bahurira mu ishuri bagamije gufata ubumenyi butandukanye buzabafasha kugira ejo habo heza, buzabafasha kuvamo abayobozi batandukanye, ndetse buzabafasha kuba abashobora kubaho kwigirira umumaro mu igihe cya nyacyo.

Abanyeshuri bari kwiga mu ishuri bageze igihe cyo kwiga gushushanya, berekana ibishushanyo bashushanyije.

Abanyeshuri bambaye umwambaro wabigenewe, bari mu gikorwa cy'ubukanishi aho barimo gukanika imodoka, bagaragaza ibikoresho byifashishwa iyo bakanika ikinyabiziga.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Aho bari kwiga bakurikiye umwarimu uri kubaha isomo biteguye gusubiza.

Icyapa kiranga aho ishuri riherereye, icyi icyapa kigaragaza izina cangwa aho icyo ubaza cyangwa ukeneye giherereye, ukahagera usomye ibiri kuri ico capa.

Mu ishuri aho bigishiriza umwuga w'ubudozi. Umuwuga w'ubudozi ni uburyo bukoresha imashini yabugenewe bita icyarahane, mu gutunganya imyambaro twambara umunsi ku wundi.

Abanyeshuri bari mu isomo ryo kwiga uko bakanika utwuma dutandukanye, nk'amatelefone cyanga se ibindi, ni umwarimu uri kubigisha imyuga itandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga imyuga. Ibi ni bimwe muri gahunda Leta yashyizemo imbaraga kugira ngo urubyiruko ndetse n'abandi babishaka bige imyuga mu rwego rwo kwirinda ubumayibobo n'ubuzererezi.

Abanyeshuri biga mu ishami ry'ubwubatsi, basohoye inyubako iri kubakwa, aho umwarimu wabo ari kubasobanurira iyo nyubako mu buryo butandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga umwuga w'ubudozi. Ubudozi ni gikorwa cyo gutunganya imyambaro twambara umunsi ku munsi, bifashishije igikoresho kizwi nk'icarahani.

Mu nzu yagenewe gutunganyirizwamo imisatsi y'abagore ndetse na bamwe mu bagabo babishaka, aho tubona umukozi ushinzwe gutunganya imisatsi y'abagore ari mu gikorwa cyo kubasuka.